Umutekano urakenewe muri rubanda. Ariyo mpamvu abantu bose bagomba kujya bashyiraho ama Aramu, wenda nk'igihe inzu yawe y'ataswe n'inkongi y'umuriro Aramu zikaka bikadufasha gutabara abarimo, bose bagahunga. Kandi bifasha cyane kurinda impanuka nyinshi, kubera iyo ahantu hose inkongi y'umuriro ihaketse Aramu ziratabara cyane, ariyo mpamvu ahantu tugomba kubona Aramu kugira twirinde inkongi z'umuriro zigiye zitandukanye.

Inama ni nziza ndazikunda cyane, kubera ko cyane cyane iyo zabaye cyane cyane iz'umutekano, polisi iri kutuganiriza ku bintu byinshi by'ibyaha abantu benshi bakora, n'ukuntu twagenda tubyirinda n'ingeso mbi igenda yanga, ni byiza ndabikunda cyane kubera ko baradufasha cyane muri sosiyete.

Ingabo z'u Rwanda zambara imyenda myiza cyane ifite amabara y'icyatsi n'ayandi mabara atandukanye, zambara n'inkweto zifite amarase maremare, iyo ubabonye bayambaye, nawe wifuzaga kujyamo.

Ingabo za Leta ni nziza ndazikunda cyane kuberako zishinzwe umutekano wacu w'abaturage . Ni byiza cyane kuberako zidufasha kandi zikaba zikora umutekano wo kurinda abantu b'abayobozi, n'abandi bose abaturage bashinzwe gukemurirwa ibibazo kuberako zidufasha cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni yo mpamvu tugomba kuzubaha.

Umutekano ni ikintu cyiza cyane tuba dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko uradufasha cyane. Cyane cyane umutekano wo mu mazi, kubera ko hari abantu benshi barohamiraga mu mazi bigateza impanuka nyinshi cyane mu gihugu. Ariyo mpamvu tuba dukeneye umutekano nku w'u Rwanda kuberako mu Rwanda habamo aba marine, bafasha gutabara abantu iyo bahuye n'ibyago mu kiyaga.

Polisi ni nziza ndayikunda cyane, kuko iradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, n'amabara meza yayo, ukuntu abasa, umuntu wese uyibonye akaba yakwifuza kujyamo, kandi ukuntu ikomeza kudufasha ituganiriza idukoresha inama biradufasha cyane muri sosiyete.

Inama ni ikintu cyiza kidufasha cyane, kubera ko biradufasha kugira ngo duhure n'abaturage tuganire, ibibazo byacu by'umuti, bijyanye n'umutekano. Kandi inzego zacu zishinzwe umutekano turazishimira cyane kubera ko zikomeza kudufasha umutekano w'Igihugu cyacu ugakomeza ukiyongera no muri rubanda.

Inama mu baturage ni nziza ndazikunda cyane, kubera ko zirafasha cyane. Zifasha gutuma abaturage bamenyana n'abayobozi, bagakunda Igihugu cyabo. Bagatanga n'ibibazo, aho ikibazo kiri bagafatanya kugikemura. Bikadufasha cyane gutuma tuba mu mutekano tuziranye n'abayobozi, tuvuga ibibazo byacu.

Inama ni nziza ndazikundaga cyane, kuko zifasha abaturage n'abayobozi kugira bamenye ibibazo dufite, kandi bakadufasha kubikemura mu gihe gitoya, kandi bikadufasha kandi no kugira tumenya ibyo abayobozi bashyizeho, kugira kandi batugire n'inama z'uko twakwitwara, kugira dukomeze kwirinda ibyaha n'ibindi byose byerekeranye nabyo.

Iintama ni nziza ndazikunda cyane kuko ziradufasha mubuzima bwacu bwa buri munsi cyane cyane iyo ziri kudukemurarira ibibazo, abaturage batanga ibibazo na leta ikabikemura neza kugira dukomeze kugira umutekano n'ubuzima bwiza turi mu gihugu, ariko ibi ibintu ni byiza cyane bagomba kujya barabikora abantu benshi barimo kugira abantu bose batange ibibazo bafite babashe kubikemura neza.

Ihuriro ry'abaturage na leta ni ryiza cyane ndabikundaga cyane, kuko birafasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko bituma buri muntu atanga ikibazo cye, kandi agakemurirwa ikibazo cye, kandi bifasha cyane urubyiruko rukaba rwakwihuza n'abayobozi barwo, bagatinyuka nabo bagatanga ibibazo byabo bafite.

Inama ni nziza, ndazikunda cyane. Cyane cyane iyo abaturage bahuye n'abayobozi bari guhura bakaganira ku bijyanye n'umutekano wabo, nuko bakwirinda mu buzima bwabo bwa buri munsi. Cyangwa kubaganiriza ku bintu bijanye n'ibyaha n'ukuntu babyirinda, n'ukuntu bagomba gukurikirana bagatangira amakuru ku igihe. Nibyiza ndabikunda cyane, bigomba kuzajya biba mu makaritsiye yacu.

Inama z'umutekano ni nziza ndazikunda cyane, kubera ko Leta itwigisha ku bijyananye no kwirindira umutekano n'ibyaha. Kandi n'abandi baturage, nabo bakavuga ibibazo byabo, bakabasha kubikemura mu buryo bwiza kandi busobanutse. Niyo mpamvu inama mvuga ngo ziradufasha cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umuco nyarwanda ndawukunda cyane, ababyeyi ba kera cyane cyane ba bagore, babohaga ibikoresho bimwe na bimwe bitandukanye harimo nk'ibirago, uduseke, bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi kandi byabafashaga, no kubona amafaranga yo kwiteza imbere.

Umuco wacu ndawukunda cyane kubera ko uradufasha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye cyane cyane nkiyo turi gukora ibikorwa byacu tugakora dukurikije umuco wacu biduha isura nziza hanze y'igihugu n'abandi bose bakatwigiraho bigatuma igihugu cyacu gitera imbere kubera ko turikoresha iby'iwacu tudakeneye iby'iwabandi.

Kuva na kera twagiraga ibikoresho bigiye bitandukanye twifashishaga mu mirimo yacu ya buri munsi harimo: nk'ibisabo, uducuma, ibirago n'ibindi byinshi twifashishaga mu bu bwacu bwa buri munsi, kugira ngo dukomeze gutere imbere...

Umuco gakondo ni mwiza ndawukunda cyane, bitewe n'ukuntu ubona cyane cyane intore, ukuntu ziba zambaye imyenda ifite amabara meza, umweru, umuhondo, uburu n'icyatsi, byose wabireba ukabona biri gukora idarapo ryiza ry'igihugu, kandi ndabikunda cyane, ukuntu baba bari guhamiriza ndabikunda cyane, biriya bintu numva nahora ndikubireba.

Umuco nyarwanda ni mwiza ndawukunda cyane, kuko uradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ufasha kandi n'abatoya kumenya ibyabanje, kandi cyane cyane iyo tubonye intore ziri guhamiriza, zambaye imyenda myiza, zambaye amayugi ku maguru, ni byiza cyane turabyishimira mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Mu muco wa kera ababyeyi b'abagore bari bazwiho kuboha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo: n'uduseke, udutebo, udupaniye, n'ibindi bigiye bitandukanye, bifashishaga batwayemo imyaka bagiye gusura abantu cyangwa bagiye kuyibikamo.

Iningiri ni nziza ndayikunda cyane, kuva na kera yaradufashaga mu bikorwa by'umuziki, byatumaga abantu bishima kandi bagatuza bari kumva umuziki wayo, ariyo mpamvu tugomba kujya natwe turayikoresha kugira ngo twiyibutse ibihe bya kera, n'umuco wacu.

Agacuma ni akantu keza mu muco wacu ndagakunda cyane, kubera ko karafashaga cyane, mu bijyanye n'ibikorwa byo kunywa, n'ubukwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye byakenerwaga kunywa, kubera ko ari ho washyiraga inzoga, ugasogongera na bagenzi bawe mukishima.

Umuco gakondo uri mwiza nawukunda cyane kubera ko uradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane mu birori bigiye bitandukanye, bari kwakira nk'umukuru w'igihugu, baradufasha kuko kubaraza bakadususurutsa, kandi bakabyina neza noneho imyenda baba bambaye isa, ihuje, ni byiza nakunda cyane umuco nyarwanda ni mwiza cyane.

Kuva nakera umuco nyarwanda ni mwiza ndawukunda cyane aho kuba dukorera ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye nk'ibisabo, n'utundi tuntu twinshi tugiye dutandukanye, twadufasha dushiremo amata akavura akazana ikivuguto cyiza, byaradufashaga cyane ni byiza kandi amata byatumaga adapfa ngo yangirike ni byiza ndabikunda cyane.

Umuco nyarwanda ni mwiza ndawukunda cyane, kubera ko uradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane cyane nk'ibyo ubonye abasaza n'abakecuru bari kuboha ibirago n'ibindi byinshi, nk'intebe , uduseke, n'udutebo ni byiza ndabikunda cyane kuko gukora yadufasha mu za bwacu bwa buri munsi, biradufasha cyane cyane nk' ugiye kuryama, kwicara nko hanze ku kazuba, ibyo nk'ibyo byose ni ibikorwa bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umuco wacu wa kinyarwanda ndawukunda cyane ,ni mwiza cyane uradudufasha cyane, kuko utwibutsa ukuntu aba mbere babagaho, kandi ukatwereka ibikorwa bisa nk'ibyo aba mbere bakoraga, biradufasha cyane bituma twishima bigatuma dukunda umuco wacu wa gakondo.

Intore ndazikunda cyane kubera ko ari zimwe mu bigize umuco nyarwanda. Baradufasha cyane bakadususurutsa, nk'iyo turi kubareba n'ukuntu baba bitakuma, n'imyenda myiza bambaye ifite amabara meza, nk'icyatsi, umweru n'andi yose agize imyenda bambara, ndayakunda cyane kuko aranshimisha.

Iningiri ndayikunda cyane kubera ko iradufasha cyane. Hari abahanzi benshi mu Rwanda bakoresha iningiri, twe biradufasha kuko tubona imiziki myiza kandi itunganye, kandi mu muco wacu wa kera barayikoreshaga. Bikadufasha kandi kuzamura iterambere ry'igihugu, dukoresheje iby'iwacu.

Umuco nyarwanda ndawukunda cyane. Cyane cyane nk'uko ukuntu abakera bubakaga byaranshimishaga cyane. Kureba ukuntu inyubako zaho zabaga zimeze ni byiza kuko ari ho havuyeho iz'ubu, tukaba twubaka tugendeye uko aba kera bubakaga.

Kuva na kera abantu bakoreshaga ibinuza byinshi bigiye bitandukanye nk'uducuma kuko twarabafashaga cyane cyane mu bijyanye no kunywa inzoga, kuko bashiragamo urwagwa bararusomaga cyane kandi rukagenda neza, niyo mpamvu abakera bakundaga utuntu twuducuma kuko twarabafashaga cyane kandi twagiga akamaro kenshi cyane, kubera ko mu bukwe atwo twakoreshaga iyo basaza babaga bari gusangira.

Umuco gakondo ni mwiza ndawukunda cyane, kubera ko uradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko ukurura ba mukerarugendo, bakazana amadovize baje kureba ibyatubanjirije, natwe tukigiramo ukuntu umuco wacu wahoze umeze.

Umuco nyarwanda ni mwiza nawukunda cyane, kuko wagira ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye nk'ibisabo, udukoresho two kubikaho amata, ni byiza ndabikunda cyane kuko byagirira akamaro, kandi bikadufasha no kuzigama nk ibisebe byo kujyana ahantu hose n'imikeka myinshi itandukanye yo kuryamamo, ni byiza nabikunda cyane, kuko bigiriraho akamaro kenshi kagiye gatandukanye.

Umuco wacu ntugomba gucika tugomba kuwitaho tukawubungabunga kugira tumenye ibyabayeho kera, kandi bidufasha no kwiga kugira tumenye ibyaranze amateka yacu kugira ngo tutica umuco tukangiza ibyabaye.

Inka z' inyambo n' inka nziza ndazikunda cyane kubera ko ziradufasha cyane zifite ibara ry' umukara, ifite amahembe maremare kandi agaragara neza, bazifashisha nko mu ibirori byinshi bigiye bitandukanye nk' ubukwe, umuganura n' ahandi henshi dukenera umuco nyarwanda.

Kuva na kera imashini zitaraza, abahinzi bakoreshaga intara, intara ni ikintu cyiza ndagikunda cyane, n'ubu abantu uracyagikoresha, ariko ubu igisigaye cyarasimbuwe n'amamashi, kubera ko amamashini niyo asigaye kabigosora mu gihe gitoya cyane, ariyo mpamvu abantu benshi basigaye barikoreshereza amamashini bari kugosora, cyangwa gutunganya indi myaka.

Umuco wacu wa kera ni mwiza cyane ndawukunda, kuberako bagiraga ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye harimo nk'uducuma, imiheha, ibirago, bifashishaga bari kunywa inzoga kugira ngo bishime, kandi bagire umutekano mu buzima bwabo bakoresheje ibyo bikoresho byabo, kandi bikaramba bikamara igihe kirekire.

Umuco nyarwanda ni mwiza ndawukunda cyane kubera ko urafasha mu buzima bwacu bwa burimunsi cyane cyane iyo uri kubona ukuntu intore ziri gusimbuka, ziri kubyina, birafasha cyane biruhura abantu kandi bigashimisha abantu benshi kubera ko abantu benshi baba babikurikiranye baba baje kwishima bashaka kureba ukuntu izo ntore ziri guhamiriza, ziri gusimbuka, ziri kubyina.

Umuco nyarwanda ndawukunda cyane. kubera ko wagiraga ibikoresho byinshi bitandukanye bifashishaga mu buzima bwabo bwa buri munsi cyane cyane nkuducuma. twakoreshwaga iyo bari gusgoongera inzoga ni igikoresho cyabafashaga mu buzima bwawe bwa buri munsi. kuko cyatimaga abantu bishima kandi banezerwa iyo babaga barigusangira bakoresheje agacuma.

Kuva na kera mu muco wacu abagore ni bo babohaga ibintu by'ibirago, uduseke n'ibindi byinshi bitandukanye, byadufashaga mu bikorwa byacu, mu kuryama, kuriraho n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye twifashishaga ikirago.

Ibikoresho gakondo ndabikunda cyane, kubera ko bidufasha cyane cyane nk'iby'umuziki, bidufasha kwishima cyane, iyo turi nko mu birori, bidufasha kandi no guteza imbere umuco wacu, tugahora twifuza u Rwanda rwacu, bikadufasha kandi no gukurura ba mukerarugendo, kubera ko hari abaza baje kumva imiziki nyarwanda.

Kuva na kera abanyarwanda bagiraga umuco wo kuboha ibintu bakoresheje ubwatsi bwabugenewe. Kandi ibyo bikoresho bikaba bifite amabara meza agiye atandukanye, harimo nk'ubururu, umukara , umutuku, icyatsi, umweru n'andi yose bifashishaga kugira batume iyo mitako isa neza.

Ibikoresho nk'ingorofani ni igikoresho cyiza ndagikunga cyane, kubera ko kiradufasha mu mirimo yacu ya buri munsi nk'ubuhinzi, ubwubatsi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, bidusaba kwikorera irabidufasha cyane.

Ikirago ni ikintu cyiza ndagikunda cyane, kuko kiradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. tugikoresha ibintu byinshi bitandukanye, nko kucyanikaho imyaka, kugisasa tukakiryamaho, kucyanika ku kazuba ukanikaho imyaka, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibikoresho by'amashanyarazi ni ikintu gikomeye cyane, tugomba kujya turirinda kubera ko biteza impanuka nyinshi zigiye zikomeye, ariyo mpamvu tugomba kujya turabyirinda tukabuza abana kujya kubikiniraho, kugira ngo tugabanye impanuka n'impfu ziterwa n'ibikoresho by'amashanyarazi.

Ibikoresho by'amashanyarazi cyanecyane ibidufasha mu bintu by'ibanze, nk'ama Aramu, adufasha cyane wenda iyo habaye nk'inkongi y'umuriro, kugira ngo adutabare umuntu wese uri aho ahantu ahahunge abashe gukira, biradufasha cyane. R'ero buri muntu asabwa kujya arashyiramo Aramu, kugira ngo inzu ye nishya ajye azatsa zifashe abantu bahari.

puse ni nziza c nayikundaga kubera ko idufashaga ibikorwa bya buri munsi nko gucomeka amatelefone amaradiyo n'ibindi byinshi twifashishaga mu buzima bwa buri munsi bikadufasha kwihutisha imirimo yacu ikagenda neza

Ibikoresho by'amashanyarazi, ni ibintu tugomba kujya twitaho, kandi tukabungabunga, kuberako kubiteza impanuka nyinshi zigiye zitandukanye. Akaba ariyo mpamvu leta ishishikariza abantu bose kujya bahisha ibikoresho by'amashanyarazi, bakabirinda abana, kuko biteza impanuka nyinshi cyane. Kandi ni byiza kuba batugira inama, biradufasha cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi tugomba kujya tubibungabunga.

Ibikoresho by'amashanyarazi ni ibintu tugomba kwitondera kubera ko wahuriramo n'impanuka nyinshi, zakugeza no ku urupfu. Ariyo mpamvu tugomba kubyitondera tukirinda kubimenyera. Kubera ko kandi bidufasha kuduha amashanyarazi n'ibindi byose dukenera gucaginga kugirango tubone umuriro.

Umugozi twifashisha kugira ducomeke muri purize ,ni mwiza ndawukunda cyane, kubera ko udufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi ,ugatuma ducomeka muri purize kugira ngo tubona ahantu ho gucomeka, bikatwongerera ahantu henshi ho gucomeka nk'amatelefone, keto, televiziyo n'ibindi bikoresho byose bikenera umuriro w'amashanyarazi tuba twifuje gukora.

Ibikoresho by'amashanyarazi ni byiza ndabikunda cyane, kubera ko biradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko biduha umuriro, kandi bigatuma dukoresha n'ibindi bikoresho byinshi bigiye bitandukanye, bikenera umuriro w'amashanyarazi, kandi bidufasha cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Inzu rusange nk'amashuri n'insengero, ni nziza cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kubera ko bidufasha kwiteza imbere, kubera ko duhura n'abantu benshi bagiye batandukanye, batugira inama ku bijyanye no kwiteza imbere, n'ibitekerezo byadufasha muri sosiyete.

Tuwalete ni nziza ndazikunda cyane kuko zigira akamaro kenshi gakomeye nko kwihagarika no kwituma. Abantu benshi kandi bagomba kuzigira cyane cyane ku masoko, ku magare no ku mashuri kuko haba hari abantu benshi, kandi abantu benshi bagomba gukenera ubwiherero.

Iminana n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bidufasha kujya tubona amashanyarazi na netiwaka ni byiza ndabikunda cyane, kuko nta kintu wapfa gukora muri iki gihe udafite netiwaka cyangwa umuriro ariyo mpamvu tugomba kubibungabunga koko biteza n'impanuka zigiye zitandukanye, tukabirinda abana kugira ngo badapfa.

Sitasiyo ni nziza ndazikunda, kubera ko ziradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi cyane cyane ku binyabiziga, nka moto imodoka n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, kubera ko biradufasha cyane kubera ko iyo ikinyabiziga mugiye nko mu rugendo gikenera lisansi, kugira ngo kibashe kugera aho kigomba kugera, ari yo mpamvu mvuga ngo, sitasiyo ni nziza ziradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Amashuri ni ikintu cyiza ndagikunda cyane, kubera ko gisigaye gifite akamaro kenshi gakomeye muri iki gihe, kubera ko nta kintu wapfa gukora utarize, kandi bifasha abantu benshi, kugira bakore ibintu byiza, kandi bakore akazi kameze neza, gatunganye nta kibazo gafite.

Inzu rusange ni nziza ndazikunda cyane kuko zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, zifasha cyane cyane gutura ahantu hatoya kandi turi abantu benshi. Ari yo mpamvu Leta tugomba kuyishishikariza gukomeza kutwubakira inzu nk'izi, kugira ngo dukomeze duteze imbere Igihugu cyacu, kandi na twe tuba abasirimu nk'abandi bose.

Ibikorwa rusange cyane cyane nk'amasoko, insengero n'amashuri ni ibintu byiza kandi buri muntu akenera, isoko ni hantu umuntu aza guhahira akajyana ibicuruzwa byiza kandi agasiga n'amafaranga bikongera n'umusorokora kubera ko n'igihugu kiba kiri kwiyongera iterambere.

Inzu rusange ni nziza ndazikunda cyane, kubera ko inzu rusange iyo zubatswe mu buryo bumwe kandi zegeranye, zubatswe zifite ibikorwa byinshi bigiye bihuye ni nziza ndazikunda cyane, zidufasha kuba inshuti kandi umuco nyarwanda ugakomeza ugakurikuzwa, bikaturinda amakimbirane n'ibindi byose byatuma dushwana.

Ibikorwa remezo u Rwanda rugezeho ni byinshi cyane ndabikunda, aho usigaye urasanga bubaka ibiraro byiza bikomeye, kandi byubakishijwe amabuye, ibyuma, kandi ugasanga bifite n'amabara y'igihugu, ku buryo ukibonye wese ahita amenya ko aricy' u Rwanda.

Gusenga ni byiza ndabikunda cyane, cyane cyane tugomba kujya tunarubaha abakuru b'amatorero, nk'abapadiri, abasenyeri, abapasiteri n'abandi benshi bakuru b'itorero tugomba kujya turabubaha, kubera ko badufasha kwegerana n'Imana, ni byiza cyane insengero nziza mu rwanda kuko zibaga zifite uburenganzira, zikaba zikora neza nta kibazo, ibyo biradufasha cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Kujya gusenga ni byiza cyane ndabikundaga cyane, iyo utoje umwana no kujya gusenga akiri muto biramufasha cyane, kubera ko ahura n'abantu benshi bagiye bafite ibitekerezo, bikamufasha kwiteza imbere kandi agakura akunda Imana.

Amashuri ni ahantu heza, abana bahurira ari benshi, bagafata ubumenyi, kandi bakiga neza bikagenda neza, kubera ko muri iki gihe nta kintu wapfa gukora utize. Ari yo mpamvu bidufasha cyane kugira ngo dukore ibintu byiza kandi binyuze mu kwiga.

Inzu nziza muri iki gihe, ni nizo zigezweho cyane, kubera ko zikurura abantu benshi, bakaza bazigana bashaka kureba ukuntu zubatse, cyane cyane iyo zifite n'utundi tujaride duteyemo imbuto, nyinshi zigenda zitandukanye, birafasha wanaharuhukira kubera ko haba hari furi nziza.

Ubworozi bw'inka ndabukunda cyane, kubera ko buradufasha cyane kubera ko ubworozi bw'inka budufasha mu bintu byinshi bitandukanye, nko kubona amata, inyama, n'ibindi byinshi bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, bikomoka ku matungo nk'inka, n'izindi nyamaswa zigiye zitandukanye, ndabikunda cyane.

Ibiro by'akarere ka gakenke ndabikundaga cyane, bitewe n'ukuntu ari byiza byubatswe neza kandi ari akarere k'icyaro, ariko ibiro byako ni byiza cyane kuko hakoreragamo bayobozi bashoboye bagafasha gutera imbere, kandi ni byiza cyane kuba naho wasigaye bafite inzu nziza wavuga ko ari inzu nziza mu gakenke abayobozi bakaba bakoreraga ahantu heza, bakabasha gukemura ibibazo byabo neza.

Kubaka inzu nziza igezweho ni ibintu byiza cyane kubera ko kubaka inzu ifite amabara meza nk'ubururu, icyatsi hariho n'igipangu ni ibintu byiza cyane kubera ko bigaragaza umuntu ufite amafaranga kandi ufite n'isuku mu rugo rwe ufite iterambere ryiza.

Inzu rusange cyane cyane nk'insengero, amashuri na confirensi nini abantu benshi bahuriramo zirafasha cyane kuberako ari ahantu henshi abantu bahurira bakaganira, bakungurana ibitekerezo, bakavugana no kubibazo bafite kandi bagakorera n'Imana umurimo w'imana ugakomeza gutera imbere.

Inzu rusange ni nziza ndazikunda cyane kuko ziradufasha mu buzima bwacu bwa buri muns n'insengero, amashuri, inzu z'abatishoboye kubera ko zituma ubukene bugabanyuka kandi abantu benshi bagahura begeranye, baturanye kugira bakomeze gusunika ubuzima bwabo kandi ubuzima bwabo bukagende neza.

Ibikorwa by'ubwubatsi ni byiza ndabikunda cyane, kubera ko biradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, bituma tubona ahantu ho gutura kandi n'ahantu dukorera ibikorwa byacu, biradufasha guhita tubona uko dusunika ubu ubuzima bwacu bwa buri munsi, ni yo mpamvu tugomba kujya twubaha abantu bakora ibikorwa by'ubwubatsi, kuko ni abantu bafite akamaro gakomeye muri sosiyete yacu.

Ubwubatsi bw'ibikorwa rusange ni bwiza cyane burafasha, nko kubaka isoko rinini nk'iri, byarafashije cyane, kubera ko abacuruzi benshi, bajyamo kandi bagakora imirimo yabo, bakunguka, bakabona ayo gutunga imiryango yabo, bakiteza imbere kandi n'igihugu kigakomeza gutera imbere.

Ubwubatsi bw'imihanda ni bwiza ndagukunda cyane, kuko budufasha mu bikorwa byacu bya buri munsi, kandi bukongera iterambere ry'igihugu, cyane cyane ndashimira abantu baba bari gusana imihanda, kubera ko bifasha ibinyabiziga kuzana ibicuruzwa bivuye hanze, kandi bidufasha cyane gutuma igihugu cyacu kizamuka mu iterambere ryaco.

Amashuri ni ikintu kiza kidasanzwe muri ubu buzima bwacu ni ahantu twungukira ubumenyi kandi hafasha abantu benshi kugeza kugira bazagere aho bashaka kugera. Ni ahantu heza cyane buri muntu atoragura ubumenyi kandi hadufasha cyane cyane mu bijyanye n'ibikorwa byo kwiyubaka kugira tuzagire ejo heza hazaza.

Inzu rusange zigezweho ni nziza ndazikunda cyane, kubera kuko zabafasha mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera ko ibikorwa byinshi bitandukanye ariho bikorera; nk'ubuvuzi, amasoko n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, niho akenshi usanga bikorera.

Inzu rusange ni nziza ndazikunda cyane, cyane cyane nk'izi nzu ziba zigiye guturamo abaturage benshi, baturanye begeranye, biba byiza kuko bagira ubumenyi bwinshi, bagahura bagasangira, bakaganira bakaba inshuti. Bikabafasha cyane no kuzajya barakora ibindi bikorwa byinshi bafatanyije, bigateza igihugu imbere cyane cyane mu bikorwa byacyo.

Inama z'abaturage n'abayobozi nziza ndazikunda cyane. Kuko zifasha kumenya ku bibazo abaturage bafite no gukemura ibijyanye n'ibibazo abaturage bahuye na byo. Abayobozi bakamenyana n'abaturage kugira ngo abaturage bashobore kubisanzuraho, bashobore kubaregera ibibazo byabo.

Inama z'abaturage n'abayobozi ni nziza ndazikunda cyane, kuko zirafasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko abaturage bavuga ibibazo by'abo bafite, na Leta ikagerageza kubikemura neza, kandi nta kibazo kibayeho, kandi ikanadufasha ikatwigisha ku bijyanye n'ibiyobyabwenge, kugira ngo buri muntu wese amenye uko yajya arabyirinda.

Ubutwazi bw'amakamyo bwambukiranya imipaka ni ubutwazi bwiza ndabukunda cyane, kuberako buradufasha muri iki gihe kuberako twe tudakora ku mazi, ari yo mpamvu twifashisha amakamyo kugira ngo ajye kutuzanira ibiribwa bituruka hanze kandi bidufasha cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko kutubona ibicuruzwa kandi ibyo bicuruzwa byavuye kure kandi tuba dukennye.

Gutwara imodoka ni ikintu cyiza cyane ndabikunda kuberako bifasha abantu benshi cyane, cyane cyane gutwara imodoka wambaye ibisabwa nko kwambara umukandara, kandi uri kureba imbere neza kugira ngo utagira icyo wangiriza. Bidufasha cyane kurinda impanuka n'ibindi byose, byatuma umutekano wo muhanda ugabanyuka.

Ambilanse ni nziza ndayikunda cyane, kubera ko igira akamaro kenshi kagiye gatandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iradufasha cyane, kubera ko itwara abarwayi n'abandi bose bagize ikibazo. Ambilanse ni nziza tugomba kujya turayitaho, kubera ko igira akamaro kenshi gakomeye, kandi tugomba kujya turafashanya kugira ikomeze ikorere neza...

Igare ni ikinyabiziga cyiza ndagikunda cyane, kubera ko kigira amapine abiri kandi kikaba gitwara umuntu umwe cyangwa gifite n'umusego inyuma kikajyaho undi muntu, kidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko tugikoresha turi gutwara imizigo myinshi igiye itandukanye, kiradufasha cyane, umuntu wese yakagombye kugira akagare ko kujya arifashisha imirimo.

Imodoka zitwara ba mukerarugendo, ni nziza, ndazikunda cyane, bitewe n’ukuntu ziba ziri kugaragara. Zifite amabara y’icyatsi, zifite ibintu hejuru babikamo ibintu, zifite amapine y’umukara, zifite amapine maremare, ku buryo imodoka itapfa gufata hasi. Ni nziza, ndazikunda cyane, ari yo mpamvu bazihariye ba mukerarugendo, kugira batajya bahura n’impanuka nyinshi.

Ubuhinzi bw'ibitoki ni bwiza ndabukunda cyane. Igitoki kigira akamaro kanini mu buzima bwacu, kuko hari icyo barya, hari icyo bataramo inzoga, hari n'ibyo bakuramo imineke, twifashisha bari guha abana imbuto n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, bikomoka ku bitoki biradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi

Imodoka zitwara abagenzi ndazikunda cyane. Zigira akamaro gakomeye kubera ko ziradufasha mu bikorwa byinshi bya buri munsi, nk'iyo dukeneye kujya ahantu, zitworohereza zigatuma tugeraho tugakoresha igihe gitoya, bigatuma dukora n'ibindi bitandukanye.

Ibimashini bidufasha mu bikorwa by'ubwubatsi ,ni byiza ndabikunda cyane, kubera ko biradufasha cyane, bidufasha kubaka imihanda, gusana imihanda yangiritse, ndetse no gutwara amabuye yavuye muri iyo mihanda, mu gihe bari gucukura bari kuyisana ,ni byiza cyane ndabikunda kuko biradufasha cyane.

Urugendo rwo mu ndege ni urugendo rwiza ndarwifuza cyane muri ubu muzima bwanjye, kubera ko sindagendera mu ndege kuva navuka, ariyo mpamvu nifuza kuzagendera, mu ndege kandi urugendo rw'indege ni urugendo rubasaba kwigengesera, kubera ko indege ikunda gukora impanuka nyinshi, ariyo mpamvu abantu bose bagomba kujya mu ndege, bagomba kuba bitonze kandi biteguye.

Ikinyabiziga rusange ni cyiza ndagikunda cyane, bitewe n'ukuntu kiba ari kinini gifite amabara meza nk'icyatsi, umweru n'amapine asa n'umutuku, ndagikunda cyane kubera ko kidufasha kikatworohereza ingendo zacu, aho tugiye kure cyangwa tugiye gusura abacu.

Imodoka zitwara abagenzi ni nziza cyane ndazikunda kuberako ziradufasha cyane mu mirimo yacu buri munsi kuberako zidufasha kugera mu kazi, ku mashuri, n'ahandi hantu heshi hatandukanye tuba twifuje kujya ariyo mpamvu twishimira kuba zihari ,kandi turashimira Leta igenda yongera ubufasha bw'izo modoka mu mihanda.

Abamotari bafite akamaro gakomeye cyane cyane iyo tugiye mu kazi bidufasha kujyayo nta kintu kitugoye kubera ko bituma twihuta bigatuma akazi kagenda neza, kandi bidufasha kwihutisha imirimo wari urakora ugakora imirimo myinshi cyane.

Amagare rusange mu Rwanda amaze gufata indi ntera, kubera ko ahantu henshi basigaye bayakoresha kugira ngo borohereze ingendo z'abantu, bagabanye n'ibinyabiziga byinshi bitwara abantu kugira ngo buri muntu wese ajye agerageza kwitwara, kandi bigafasha n'iterambere ry'igihugu.

Ibimodoka binini bifite amabara meza nk'umweru, umutuku n'amapine asa nk'umukara n'ibirahuri byafime by'umukara ndabikunda cyane, kuberako bituma abantu bambukiranya imipaka bakava mu gihugu kimwe bajya mu kindi, biradufasha cyane mubuzima bwacu bwa buri munsi.

Ibinyabiziga ni byiza ndabikunda cyane biradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko ibyo bituma tujya ahantu, kubera ko nk'iyo ugiye ku ishuli, mu kazi n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye biragufasha, cyane cyane bikadutwarira n'imizigo. Iyo ufite imizigo myinshi bikayikujyanira ahantu ushaka.

Siporo ninziza kubuzima bwacu bwa buri munsi, ndayikunda cyane kubera ko gukora siporo ni byiza cyane ku mubiri wacu, kandi bidufashaga kongera ubudahangarwa bw'umubiri no kurinda indwara nyinshi, zigenda zitandukanye duhurira nazo muri ububuzima.

Hendi bolo ni nziza ndayikunda cyane, kandi ikomeza guteza imbere imikino, cyane cyane imikino y'abakobwa, kuko nayo isigaye itera imbere kandi ikiyongera mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko isigaye itunze abantu benshi, bikagabanya ubukene mu gihugu cyacu.

Siporo ni nziza ndayikunda cyane, kubera ko yadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, iturinda indwara nyinshi zitandukanye, cyane cyane iyo uri kuyikorera nko ku mazi, aho uri gufata amafuri meza, ukayikora wishimye, iradufasha cyane cyane, buri muntu wese yakagombye kujya arakora siporo, kugira ijye imurindira ubuzima bwe.

Umukino wa basikete, ni umukino mwiza ndawukunda cyane, ni umukino ufasha abantu benshi kwidagadura, kandi ugateza imbere igihugu cyacu, kuko nk'iyo igihugu cyacu cyakira imikino mpuzamahanga ya basiketi, biradufasha, kandi bikongera umusoro w'igihugu, igihugu cyacu kigakomeza kigatera imbere.

Umukino wo gusiganwa w'amagare, ni umukino mwiza cyane kubera ko ufitiye inyungu igihugu n'abaturage muri rusange, kubera ko iyo wawutsinze baguha amafaranga menshi cyane, kandi bigatuma n'igihugu cyunguka, kubera kiba cyakira uwo mukino kandi bigatuma kinamenyekana, kigatuma abantu benshi bagisura n'abantu batakizi.

Abakurasi ndabakunda cyane, ni beza cyane, ukuntu baba bambaye inifomu zabo, bambaraga na makasike meza cyane, bakagendera ku magare afite amapine abiri. Ni byiza cyane, ndabikunda, kubera ko bitezaga neza igihugu cyacu, bikagiteza imbere.

Siporo ni ikintu cyiza nayikunda cyanea. Ni ikintu gifasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ngo kuko hari ababikina bagamije gutunga imiryango yabo, hari n'ababikora kugira imibiri yabo imere neza, ariyo mpamvu leta ikangurira abantu bayo gukora siporo, ku ituma ubuzima bumera neza, kandi bukagenda neza mu bikorwa byacu bya buri munsi.

Umukino wa tenisi ni umukino mwiza ndawukunda cyane, ni umukino umuntu wese yifuza kureba iyo barimo barawukina, ni umukino winjiza amafaranga menshi mu Rwanda, kubera ko abantu bawukina mu Rwanda ari abantu bakeya cyane, bigatuma winjiza amafaranga menshi.

APR ni ikipe nziza ndayikunda cyane bitewe n'ukuntu baba bambaye amajezi meza cyane nkunda y'umweru n'umukara, n'amasogisi y'umweru n'umukara. Ni byiza cyane ndabikunda ukuntu baba basa bari mu kibuga, kandi bakaba ari abakinnyi bafite ubuhanga bwiza cyane. Niyo mpamvu ituma mbakunda cyane.

Ikipe ya Kimisagara ndayikunda cyane. Ni ikipe nziza igira ibyiciro bitandukanye. Hari icyiciro cy'abagore, icy'abagabo, n'icy'abana, kandi bakunda gukina imikino y'amaguru.

Siporo ni imikino myiza abantu bose tugomba kujya turitabira n'yo mikino yatuma ubasha kwibeshyaho, kandi bikajya bigufasha kubona amaramuko. Bifasha cyane cyane abayikina kubona ubumenyi bwisumbuyeho mu bijyanye na siporo.

Isiganwa ry'amagare, ndarikunda cyane, ridufasha byinshi, kubera ko kuba najya mu ntara imwe bava mu yindi, ubona ari byiza cyane, kandi bigateza igihugu cyacu imbere, kubera ko n'igihugu cyacu, cyakira iryo siganwa.

Umukino wa handiboro ni mwiza cyane. Ndawukunda. Iyo mbonye impande ebyiri zihanganye, imwe iri gushaka gutsinda indi biranshimishaga cyane, bidufasha kandi no kongera iterambere ry'igihugu, kubera ko iyo ikipe yagiye gukina hanze y'igihugu, byongera isura y'igihugu muri rubanda.

Utuyira two mu muhanda ni twiza ndadukunda cyane kubera ko dufasha abantu gutambuka bagiye kuzana ibicuruzwa ahantu ha kure, kandi bakananyuramo bagiye mu ngo zabo. biradufasha cyane kuba bituma tutajya kuzenguruka mu ibinyabiziga tuba turi gusimbukana na byo mu muhanda.

Uduhanda two mu makaritsiye turadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kubera ko ariho ibinyabiziga binyura bituzaniye ibicuruzwa harimo nk'ibigori, ibirayi, ibishyimbo, amakara n'ibindi byose bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo butere imbere.